Icyapa kiriho abantu bane, umwe ni umuganga ari gusuzuma umwana, ndetse bose bari guseka barishimye, umwana ari kumwe na mama we ndetse umwana baramuteruye.

Icyapa cyamamaza cyanditseho saniramu iki cyapa gifite ishusho y'umweru ndetse n'ishusho y'ubururu ku gice cyo hasi, sananamu byandikishijwe ibara ry'ubururu.

Icyapa cya Buritamu kiriho umugabo uri guseka wifashe neza cyanditseho amagambo agira ati ramba na Buritamu ubwishingizi bwo kwivuza bwihariye ku bigo bito n'amashyirahamwe.

Umugore wambaye umupira w'ubururu wanditseho amagambo agira ati byikorere, afite terefone mu kaboko ke k'ibumoso ndetse iruhande rwe hari amagambo yanditseho agira ati dosiye yawe isaba kwishyura mituweli ifite kode yo kwishyuriraho nomero.

Icyapa cya Radiyanti kiriho umukobwa uri guseka ufite amarineti ku mutwe we ndetse yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, ari kwerekana ibyo wakanda kugira ngo ugure turi kumwe ubwishingizi buhendutse bw'ubuzima.

Icyapa cy'ubwishingizi bwa Radiyanti, iki cyapa cyanditseho amagambo agira ati isezerano ni isezerano. Ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro, Iki cyapa kiriho ahantu hahiye ndetse Radiyanti iratubwira ko ishobora kubidufashamo.

Icyapa kibuza ndetse cyamagana abantu bakoresha terefone batwaye, kiriho ikiganza gifashe terefone mu ntoki ndetse iyi terefone irimo akarongo gafite ibara ritukura ka egisi, ni imirongo ibiri iciyemo.

Abantu babiri bagaragara ku maboko gusa umwe n’ umuganga ari gupima undi afite akamashini yashyize kuri uyu muntu ndetse agafashe mu ntoki ze uyu muganga.

Ubutumwa bwa Radiyanti buragira buti komeza wizigamire wungukirwe agera kuri kane ku ijana mu gihe cy'umwaka kugira ubigereho ukanda akanyeri gatanu gatatu rimwe urwego yesi.

Icyapa cya Radianti kiriho inkoko nyinshi ndetse kiriho amagambo agira ati ubwishingizi bw'inkoko, umworozi yishyura mirongo itandatu ku ijana leta ikamuha nkunganire ingana na mirongo ine ku ijana.

Inzu bacururizamo inkweto, iyi nzu irafunguye ndetse hejuru iriho ibyapa byamamaza, byerekana ibyo bakora, hari kwaka amatara kuko burije.

Abantu babiri bose ni abagore. Umwe ari gucuruza ari mu iduka, undi ari guhaha. Uri gucuruza yiteze igitambaro, ndetse inyuma ye hari ibicuruzwa.

Iduka ricuruza imyenda ririmo akabati kagiye karimo ingofero zigiye zitandukanye ndetse imyenda imanitse ku kabati, harimo umupira w'ikipe yitwa Manchester United.

Umugabo uri gucuruza mu iduka, yambaye umupira w'umukara ndetse yambaye isaha ku kaboko ke k'ibumoso. Iri duka ricuruza inkweto, amasakoshi, amaterefone, amasaha ndetse n'ibindi.

Abagabo babiri bahagaze mu iduka umwe ni umuzungu undi ni umwirabura umuzungu yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara yatebeje umwirabura yambaye ishati irimo amabara y'umukara ndetse n'umweru bari mu iduka ricuruza imyenda.

Inzu icururizwamo imyenda ndetse n'inkweto iyi nzu iri kwakamo amatara, ndetse iriho utubati dufite ibara ry'umweru duteretseho inkweto ndetse hari n'imyenda imanitse inyuma.

Abantu babiri. Umugore n'umugabo, umugore ni umuzungu, umugabo ni umwirabura, bari guseka. Umugore afashe mudasobwa imbere ye, ndetse umuhungu yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara.

Abantu babiri bari aho bacururiza imyenda. Bose bambaye utwenda tugufi two hejuru. Ndetse umwe afite agakapu gasa kaki mu ntoki ze. Inyuma yabo hari utubati turimo imyenda.

Abantu babiri bahagaze umwe n'umugabo w'umwirabura undi ni umugore w'umuzungu, uyu muzungu imbere ye hari mudasobwa ndetse ari kwiyikandaho, umuhungu imbere ye hari ibipapuro ari kwandika ndetse afite n'ikaramu mu ntoki ze.

Imodoka ifite ibara ry'umweru yitwa hoho. Iyi modoka yagenewe gutwara imizigo irimo amabuye, imicanga, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kubaka.

Imodoka ifite irangi ry'umweru. Iragaragara ku gice cy'imbere ndetse nta muntu uyirimo. Iyi modoka iparitse ahantu hari umwanya hisanzuye. Ndetse ni ku mapave. Iyi modoka ni suzuki ndetse ifite ikirango cyanditseho Kigali.

Abantu babiri b'abagabo umwe yambaye umupira w'umukara undi yambaye ikote risa n'ipantaro, imbere yabo hari imodoka ifite ibara ry'umukara.

Imodoka ifite ibara ry'umukara, ni nziza. Iri ahantu hatwikiriye, ndetse hatwikirijwe amabati. iteretse, cyangwa iparitse ahantu hari sima.

Abantu babiri bafashe icyapa, gifite ishusho y'urufunguzo, iki cyapa cyanditseho Akagera motozi, inyuma yabo hari imodoka ebyiri ndetse n'inyubako.

Imodoka igaragara ku gice cy'inyuma ndetse n'uruhande rw'iburyo. Ifite ibara ry'umukara, ni nshyashya. Ndetse iyi modoka ahandikwa purake harahishe, handitseho amagambo.

Abagabo babiri bambaye amashati. Bafashe icyapa gifite ishusho y'urufunguzo ndetse cyanditseho akagera motozi. Inyuma yabo hari imodoka y'umweru yagenewe gutwara imizigo.

Imodoka ifite ibara ry'umweru igaragara ku gice cy'imbere, ahantu hashyirwa purake hariho agatambaro kahapfutse ndetse iyi modoka yitwa toyota.

Imodoka iri mu muhanda icanye amatara, iragaragara ku gice cy'imbere, ifite ibara ry'umukara iyi modoka kandi iragurishwa iri mu bwoko bwa Toyota iragurishwa miliyoni cumi n'eshatu.

Imodoka ifite ibara ry'umweru yanditseho Toyota. Iyi modoka iragaragara ku gice cy'inyuma, ni imodoka nziza igezweho ndetse ifite amapine mashyashya, iyi modoka iri mu nzu.

Imodoka ifite ibara ry'umukara, igaragara ku gice cy'ibumoso ndetse n'igice cy'inyuma, iyi modoka iruhande rwayo haparitse izindi modoka zifite ibara ry'umweru.

Imodoka nziza ihagaze mu nzu, iyi nzu irimo amakaro, afite ibara rijya kuba umweru ndetse iyi nzu imbere hari ibirahuri ku buryo umuntu uri hanze; abasha kwitegereza iyi modoka neza.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'imodoka ifite ibara ry'umweru. Bafashe urufunguzo rwanditseho Akagera motozi. Umugabo umwe yambaye isarubeti ifite ibara ry'ubururu ndetse mu ntoki ze afite agakapu k'umutuku.

Ibiganza by'umuntu bibiri, bifite amafaranga menshi mu ntoki, biri kuyafata bikayashyira mu kamashini gateretse ku meza, kagenewe kubara amafaranga, ndetse aka kamashini kandiditsemo imibare ijana, byandikishije ibara ritukura.

Umugabo w'umwirabura wambaye ishati iciye amaboko, imbere ye hari amafaranga menshi, ndetse hari n'akamashini ari gushyiramo amafaranga kakayabara, uyu mugabo akaboko ke kamwe gafashe inoti ari kubara.

ibiceri cy'icumi cyakozwe muri bibiri n'icyenda aya ni amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'u rwanda iki giceri cyanditseho amagambo agira ati banki nkuru y'u rwanda ndetse iki giceri gishushanyijeho insina iriho igitoki

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara ndetse afite umusatsi muke. Uyu mugabo ni umwirabura mu kaboko ke k'ibumoso afite ibipapuro ndetse yambayeho isaha. Imbere ye hari mudasobwa ifite ibara ry'umukara iteretse ku meza.

Ibiganza bibiri by'umuntu umwe bifashe amafaranga ndetse imbere ye hari imashini igaragara ku gice cy'amapoto ndetse hari n'akabati kabikwamo amafaranga karimo ibiceri byinshi.

Igiceri cy'atanu, iki giceri gikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, cyanditseho amafaranga atanu ndetse kiriho Ikirangantego cy'Igihugu cy'u Rwanda.

Abantu babiri b'abagabo, umwe ari kwaka serivise undi, umwe yambaye ingofero y'umukara ndetse n'agapfukamunwa, yambaye ishati yahinnye amaboko, undi uri kumuha serivisi yambaye umupira w'umweru.

Umugore uri kumwe n'umugabo, umugabo yambaye amarineti ndetse yambaye ikoti n'ipantaro bisa bya kositimu yambariyemo n'ishati y'umweru bari kwaka serivisi muri banki.

Inzu irimo amakaro y'umweru ndetse irimo ameza na yo y'umweru. Iyi nzu bacururizamo amata, kuko harimo icyuma bayashyiramo ndetse hateretse indobo hasi.

Umugore w'umwirabura ufite umusatsi mukeya ndetse yambaye umupira w'umukara, afite akabido ka cumi n'atanu mu ntoki ze, ari gusuka amata ndetse ari kuyashyira mu bikombe.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, n'ipantaro y'ubururu, afite igicuba mu biganza bye, arikubuganiza amata mu cyuma cyagenewe kubika amata ; mugi he kirekire.

Inzu bacururizamo amata, irimo intebe zifite ibara ry'umweru ndetse iyi nzu irimo icyuma kibikwamo amata mu gihe kirekire, icyi cyuma kirayakonjesha amatako agakomeza ameze neza.

Icyapa kiriho abantu babiri, umukobwa n'umuhungu, bari guseka, bose bafashe telefoni mu ntoki zabo ndetse iki cyapa cyanditseho ijambo copedu.

Abagabo babiri bari kwinjira ahantu bambaye amashati ndetse hejuru yabo ku muryango hari icyapa cyamamaza ibyo aha hantu bari kwinjira bakora.

Icyapa kiriho umuntu wambaye umupira w'umukara ari gutera ipasi, iki cyapa cyanditseho amagambo agira ati ishyura umuriro ukoresheje eyateri mani.

Inoti enye imwe yanditseho icumi, indi yanditseho mirongo itanu, indi yanditseho makumyabiri ndetse n'indi yanditseho mirongo itanu, bivuze ngo ni inoti ebyiri zanditseho mirongo itanu.

Inoti zigiye zitandukanye imwe yanditseho ibihumbi icumi indi yanditseho bitanu, indi bibiri, indi igihumbi, izi noti zishushanyijweho inzovu, ndetse izi noti zikoreshwa mu gihugu cya Tanzaniya hejuru ziteretseho ibiceri.

Intoki ebyiri zifashe amafaranga, izi ntoki ni iz'umuzungu kandi zambaye ibikomo, izi noti ebyiri ziriho umugabo w'umusaza wambaye amarinete, izi note zikoreshwa mu Buhinde.

Intoki ebyiri z'umuntu umwe zigaragara zifashe amafaranga ndetse ziri kuyashyira mu kamashini kabara, aka kamashini gafite ibara ry'umweru n'umukara, iruhande rwe hari mudasobwa ndetse ari kuyikoraho.

Ibiganza bibiri by'umuntu bifashe inoti z'amadolari, izi note zanditseho amadolari ijana. Izi note zishushanyijeho umugabo ufite umusatsi muremure ndetse izi noti zikoreshwa ku mpande zose z'isi.

Ibiganza bibiri bifashe inoti. Iyi noti yanditseho mirongo itanu, ishushanyijeho umugabo ndetse ufite agasatsi gakeya. Iyi noti ikoreshwa mu Buhinde.

Umuryango ufunguye, hejuru yawo handitseho amagambo agira ati "ikaze." Iyi ni biro bakoreramo ivunjishwa ry'amafaranga. Iyi nyubako ifite umuryango w'umweru.

Inyubako ikorerwamo ivunjisha, iyi nyubako ifite ibyapa byerekana yuko aha hantu hakorera kuvunjishwa kw'amafaranga, bayavana mu gihugu kimwe bakaguha ay'ikindi gihugu.

Abagabo babiri umugore ndetse n'umwana bafashe icyapa kiriho ibihembo ibi bihembo byahawe umwana ndetse bari kwifotoza.

Abantu bane bose ni abazungu. Babiri baricaye ndetse abandi babiri barahagaze, bari kwaka serivisi. imbere yabo hari televiziyo iri kwaka ibara ritu ry'ubururu.

Umugabo wambaye umupira uciyemo imirongo ndetse ahagaze ahantu bavunjishiriza, hari icyapa cyerekana uko ivunjisha rihagaze.

inyubako ifunguye imiryango ndetse iyi nyubako ikorerwamo kuvunjishwa kw'amafaranga hejuru y'umuryango hari ibyapa bibyerekana bagufasha gukura amafaranga mu y'igihugu kimwe bakaguha ay'ikindi gihugu

Akabati gateye iruhande rw'igitanda kiriho umusego ndetse iki gitanda kirasa n'aka kabati, aka kabati gateretseho isaha ibara ndetse ibyutsa umuntu uryamye.

Intebe zikozwe mu biti ndetse ziriho umusego wo kwicara ndetse izi ntebe zisize irangi rya shokola, ni nziza ndetse ziteretse ku mapave, i ruhande hari igikuta giseze irangi ry'umweru.

Iduka ricuruza ibikoresho birimo intebe. Iri duka rirafunguye ndetse ririho icyapa cyanditseho Kwizerwa. Iri duka imbere yaryo hateretse intebe nyinshi zisa.

Inzu irimo intebe zifite ibara ry'imikara ndetse izi ntebe zirimo imisego, imbere yazo hari ameza afite ibara ry'umweru ndetse n'utundi tumeza dutoya tubiri.

Ubusitani bwiza, burimo, ahantu abantu bicara. Ndetse iruhande rwabwo, hari inzu ihari, ndetse igaragara igice gitoya cy'imbere.

Inzu igaragara intebe igice ndetse ifite umuryango w'ibirahuri, amarido ari kuruhande kugirango umuntu abashe kureba hanze, iyi nzu irimo ameza ateretseho ururabyo.

Icyumba cy'inama giteguye neza, kirimo intebe z'umukara ndetse n'ameza ateretseho amacupa y'amazi y'inyange, iruhande rw'icupa hari ikaye.

Inzu nziza irimo umugabo w'umuzungu ndetse imbere ye hari umukobwa w'umwirabura wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'umukara. Inyuma y'uyu mukobwa hamanitse ifoto iriho paul kagame.

Inzu ifite igorofa ndetse iyi nzu iri kwaka amatara burije ndetse iyi nzu iruhande rwayo hateye ibiti byinshi biyikikije.

Ahantu hateguye neza, hari intebe z'umutuku ndetse n'ameza ariho udutambaro. Aha hantu ni heza, hariho amarido azinze ku buryo ushobora kureba hanze urebeye mu kirahure.

Abagabo babiri bicaye, bicaye ku ntebe z'umukara ndetse umwe afite agakombe ari kunywa ji ya koka ndetse undi yambaye ishati y'umweru ari gukoresha mudasobwa.

Inzu y'igorofa yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amarangi y'umweru ndetse imbere hari ubusitani bwiza buteyemo indabo ndetse izi ndabo zirimo izifite amabara atukura.

Abantu batatu bahagaze, abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, ufite akamashini ari gupima. Imbere yabo hari mudasobwa iteretse ku meza afite ibara ry'umweru.

Inyubako ikorerwamo na radiyanti, iyi nyubako ifite amakaro y'umweru ndetse ifite ibirahuri ku rukuta bigaragaza hanze, hejuru hari kwaka amatara.

Inzu y'igorofa ifite ibara ry'umuhondo ndetse iriho ibyapa byamamaza byerekana sosiyete zikorera muri iyi nyubako, hariho icyapa cya sonarwa kerekana yuko iherereye Kimironko.

Umuryango ufunguye, iyi nyubako irimo amakaro y'umweru ndetse n'akarongo k'umukara, iyi nzu irimo intebe ziticayeho abantu ndetse ku muryango hari ibyapa byamamaza byerekana ibyo bakora.

Ibiro birimo intebe z'umukara ndetse byicayemo abagore n'abagabo bose ni abazungu, harimo ameza ateretseho amakayi ndetse na mudasobwa.

Ibiro birimo ameza afite ibara ry'umukara ndetse iyi nzu irimo ibara ry'umweru, harimo ndetse intebe zifite ibara ry'umukara n'amakaro.

Umuhanda nyabagendwa ufite ibyerekezo bibiri ndetse icyerekezo kimwe gifite imihanda itatu ijya ahantu hamwe, iruhande rw'umuhanda haparitse imodoka zifite amabara y'umweru ndetse n'izumukara.

cyapa cya Ekobanke kiriho abantu babiri umugore n'umugabo bose barishimye bari guseka. Umugabo yambaye ikoti ry'umukara ndetse afashe terefone mu kiganza cye cy'iburyo ikindi gifashe igipfunsi. Umugore yambaye ikanzu nawe intoki ze zose zifunze ibipfunsi ari kwishima.

Icyapa cyamamaza cya bank of Kigali, kiriho abagabo batatu bambaye amarineti, bambaye amakoti y'umukara ndetse n'amashati y'umukara, iki cyapa kiriho amagambo yandikishijwe inyuguti z'umweru ndetse agira ati BK Arena.

Icyapa cya MTN cyamamaza, kiriho umukobwa ufite telefone mu ntoki ze, arishimye cyane ari guseka, akaboko ke k'ibumoso kambaye isaha ndetse handitseho tubirimo na MoKash.

Icyapa cya Equity, kiriho umugabo wambaye umupira w'umutuku ndetse imbere ye hari ameza ari gupima ibintu, ndetse uyu mugabo yambaye umwenda umurinda kwandura w'umukara imbere mu gatuza, ufite imishumi ifashe mu ijosi.

Icyapa cya bank popuraire, iki icyapa kiriho umukobwa uri guseka, uteze igitambaro mu mutwe ndetse yambaye isarubeti, ifite umushumi mu ijosi.

Isoko ryubakishijwe ibiti ndetse risakarishije amabati, ririmo abantu benshi biganjemo abacuruzi, bacuruza imbuto ndetse n'imboga. Imboga harimo karoti, intoryi, ibitunguru, itomati, ndetse n'ibindi.

Umugore uri mu isoko ari gucuruza ateze igitambaro mu mutwe ndetse afite icyuma mu kaboko ke k'iburyo, n'ironji amaze gukata mu kaboko k'ibumoso. Imbere ye hari imyumbati ndetse n'ibindi bicuruzwa.

Mu isoko aho bacuruza imyenda harimo abagore babiri bicaye ndetse imbere yabo hari imyenda y'abana, inyuma yabo hamanitse ibikapu ndetse n'ibitenge.

Isoko ririmo abantu babiri hari umugore wambaye imyenda y'ibitenge, ndetse uteze igitambaro, ari gucuruza imbuto ziganjemo imineke amatunda inanasi ndetse n'izindi.

Igisheke giteretse mu muryango, iruhande rw'iki gisheke hari intebe ikoze mu giti ndetse hari n'abantu bahagaze iruhande rwayo, hari umukobwa wambaye ingofero y'umukara, ikoti ry'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe hari umugore ukenyeye igitenge.

Ahantu badodera imyenda. Hari abagore bicaye ku mashini bari kudoda ndetse inyuma yabo hari imyenda ihamanitse bagurisha.

Abagore babiri bari guhana ibintu bari guseka cyane umwe aritandiye yambaye na amarineti bari guseka, inyuma yabo hari umugabo uri guhaha imboga izi mboga zirimo iz'ibyatsi.

Abantu bari mu isoko harimo abagore bari gucuruza imbuto izi mbuto ziganjemo imineke, imyembe, amatunda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abaturage benshi bari mu isoko ricuruza imyenda. Abenshi bitwikiye imitaka ifite ibara ry'umuhondo, abitwikiye ibara ry'ubururu ndetse n'abandi bafite imitaka ifite ibara ry'umutuku.

Akazu ka Emutiyeni gafite ibara ry'umuhondo gafite amadirishya atatu yose arafunguye harimo umuntu wicaye ndetse hanze hari abantu bahagaze bari kwaka serivise.

Abakozi ba MTN, imbere yabo hari umuzungu uri kwerekana icyo ashaka cyangwa icyo ari kubaza, aba bakozi ba MTN bambaye imipira y'umuhondo iriho ibirango bya MTN.

Akazu ka MTN gafite ibara ry'umuhondo gafite amadirishya afunguye ndetse kicayemo umuntu, hanze hahagaze abantu batatu ndetse bari kwaka ubufasha.

Ikiganza gifashe telefone ntoya kiri kwishyura kuri kode, imbere hari kode itangwa na MTN kugira ngo ibashe kwishyurirwaho, iyi kode yayanditse muri telefone ye kugira ngo abashe kwishyura, iruhande hateretse amakesi,

Abantu babiri umugore n'umugabo, bambaye imyenda ya MTN bahagaze imbere y'akazu ka MTN gafite ibara ry'umuhondo, ndetse inyuma hateye ibiti.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo wa mtn, imbere ye haparitse moto nayo y'umuhondo ifite ibirango bya mtn, inyuma ye hari imodoka nziza iriho ikirango cya mtn.

Akazu ka MTN gafite ibara ry'umuhondo, karimo umukozi wa MTN ndetse hanze hari abagabo babiri, umwe wambaye ingofero y'abisilamu ndetse ahetse igikapu, undi yambaye ishati iciye amaboko.

Abantu bari kwaka serivise za MTN. Abakozi ba MTN bambaye imipira y'imyeru iriho ibirango bya MTN ndetse imbere yabo hari mudasobwa bakoreramo akazi.

Abantu babiri bahagaze bari guseka umwe ni umugore undi ni umugabo, umugore yambaye umupira w'umuhondo uriho ibirango bya emutiyene, umugabo yambaye ingofero y'abayisiramu ndetse n'umupira w'icyatsi inyuma yabo hari inzu ifite ibara ry'umuhondo ya emutiyene.

Akazu ka MTN, gafite ibara ry'umuhondo, harimo umukozi wa MTN ndetse afite ikayi imbere ye, iruhande rwe hanze hari umugabo uhagaze, wambaye ikoti ry'umukara.

Umugabo ufite ubwanwa bwinshi ndetse n'umusatsi muke, afite terefone mu ntoki ze ndetse n'ikarita, yambaye umupira w'icyatsi, imbere ye hari umutaka ufite ibara ritukura.

Utuzu tubiri, kamwe ka eyateri gafite ibara ritukura ndetse kanditseho eyateri mu ibara ry'umweru. Iruhande hari akazu ka Emutiyeni gafite ibara ry'umuhondo ndetse kandikishijweho n'inyuguti zandikishijwe umukara.

Abamotari babiri bahagaze, bafite moto zitukura ndetse bambaye jire zifite ibara ritukura, bose barahagaze bari kubishyura, umugenzi umwe uri kwishyura yambaye umupira w'umuhondo, undi yambaye agapfukamunwa k'umuhondo.

Akazu ka Emutiyeni gafite amabara y'umuhondo, ndetse karimo umukobwa, hanze hari umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara.

Akazu ka aitel, aka kazu gafite ibara ritukura ndetse kanditseho amagambo ndetse n'imibare mu ibara ry'umweru, aka kazu ni aka airtel, hariho ibyapa byamamaza biriho abantu ndetse aka kazu iruhande rwako hateretse icupa ry'amazi.

Inzu ya Emutiyene ifite irange ry'umuhondo ndetse yicayemo umusore wambaye umupira w'umweru uciyemo imirongo ya shokora, imbere ye hari ikayi yandikamo.

Imibare cyangwa kode itangwa na emutiyene igahabwa abacuruzi iyi mibare yifashishwa mu kwishyura uyishyuriraho ndetse ntibagire icyo bagukata.

Kode ihabwa abacuruzi itangwa na MTN kugira ngo ikoreshwe mu kwishyurwa. Iyi kode ntabwo bayikata ndetse iyi kode ifite karindwi, umunani, icyenda, zeru, kabiri, zeru.

Moto iriho telefone, iyi telefone yifashishwa mu kubara ibirometero wagenze, kugira ngo nujya kwishyura abe ari yo ugenderaho ndetse icometseho agasinga kaba.

Umugabo w'umwirabura utwara moto ashinzwe kugeza ibintu kuri ba nyirabyo. Iyi sosiyete yitwa kasha mu kaboko ke k'ibumoso afashe umuzigo yarazaniye nyirawo.

Umugabo wambaye casike ifite ibara ry'ubururu, ndetse yambaye umupira w'umukara. Afite agapfunyika mu ntoki ze ari kugashyira mu kintu kugira ngo apfundikire abone uko abitwara.

Umugabo uri guseka wifashe neza, yegamiye kuri moto ifite ibara ritukura ndetse kuri iyi moto hariho igipfunyika kinini gifite ibara ry'umuhondo.

Icyapa cyamamaza, kiriho umugabo wambaye umupira y'umutuku ndetse n'ingofero y'umutuku, uyu mugabo ni umuzungu ufite imisatsi myinshi ndetse ateruye utubogise.

Inzu irimo intebe nziza ndetse iyi nzu irimo irangi ry'umweru, iriho televiziyo ku gikuta y'umukara, ndetse hari kwaka amatara kuko kuko burije ntabwo agaragara neza.

Abantu babiri bahagaze, umwe ni umuzungu; ni umugabo, undi ni umwirabura w'umugore w'umuzungu yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, umugore yambaye ikanzu ifite amabara menshi avanze; bahagaze mu busitani inyuma yabo hari intebe.

Umugabo w'umuzungu wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'ubururu ndetse n'inkweto z'umukara, ari gukurura intebe ndetse iyi ntebe ifite ibara ry'umukara, imbere ye hari ama esikariye, iyi nzu irimo amakaro.

Mu kikoni hari utubati tumanitse ku gikuta ndetse n'akandi kabati gateye hasi ndetse iki gikuta gifite amakaro ku gice cyo hasi nka metero ebyiri ndetse igice cyo hejuru gifite ibara ry'umweru.

Muri saro harimo intebe ebyiri zisa, ndetse n'akabati kariho televiziyo ndetse n'icyuma gitanga umuyaga igihe hari ubushyuhe bwinshi, imbere y'izi ntebe, hari ameza afite ibara ry'umweru.

Inzu y'igorofa, ifite irangi ry'umweru ndetse imbere yayo hateye ibyatsi ndetse hateye n'umukindo, handitse nimero zeru karindwi umunani, mirongo itandatu, cumi na gatandatu, karindwi umunani, icyenda.

Inzu igurishwa miliyoni zirindwi. Iyi nzu ifite irangi ry'umuhondo ndetse ifite imiryango y'umutuku iriho ibirahuri byijimye, imbere yayo hari imbuga ndetse hakaba n'ahandi hateye ibyatsi.

Inzu y'igorofa ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara rijya kuba oranje, ifite imbuga nini irimo amapave, iyi nzu ifite amakaro y'umweru ndetse irasa neza.

Inzu ikodeshwa. Iyi nzu yubatswe mu buryo bugezweho, ndetse ifite amabara yiganjemo ay'umuhondo n'umweru, iyi nzu iherereye i Kanombe kigali.

Inzu ndende y'igorofa ifite amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo, imbere yayo hari icyapa cyanditseho agaciro.

Umuryango ufunguye winjiye mu gipangu harimo igiheri cya sima ndetse gisa n'icyangiritse imbere hari amakaro yinjira mu nzu umuryango ufite ibara ry'ubururu.

Iduka ririmo abantu ndetse rigurisha ibikoresho byo mu gikoni; byiganjemo amasafuriya, amasahani, ibikombe, amapanu ndetse n'ibindi.

Inzu y'igorofa, iyi nzu bacuruzamo imyenda ndetse hariho n'ibyapa byinshi byamamaza. Iyi nzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara rijya kuba nk'igitaka, aha ngaha bakoreramo ibintu bigiye bitandukanye.

Inyubako nini iri kwakamo amatara icururizwamo imyenda, ndetse yambitswe ibipupe biri ku murongo ndetse iyi nzu irimo amakaro y'umweru n'andi y'umukara.

Abantu benshi imbere yabo hari ibikapu bigurishwa, ibi bi bikapu byiganjemo iby'abagore ndetse harimo umugabo wambaye ingofero y'abayisilamu ndetse ibi bikapu birasa neza bipanze ku murongo.

Icyapa gifite ibara ry'icyatsi, cyanditsemo amagambo agira ati sawaseti. Giherereye i remera, inyuma y'iki cyapa hari ibiti birebire gifite amashami y'icyatsi.

Mu isoko aho bacururiza ibintu bigiye bitandukanye harimo abantu bari kugenda ndetse n'abandi bari kubabaza ibiciro bari kugura amasakame ndetse harimo n'ibitabo biteretse ku ruhande.

Abantu batatu bahagaze babiri bambaye udupfukamunwa ndetse ni abagabo undi ni umugore, umugabo umwe yambaye umupira utukura ufite ibara ry'umweru undi yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Inzu y'igorofa, ifite ibirango byinshi byamamaza ndetse byerekana serivisi zitangirwa muri iyi miryango, ku gice cyo hasi bacuruza imyenda.

Icyapa cyanditseho ejo heza, iki cyapa kiriho umugore witeze igitambaro cyanditseho amagambo agira ati igihe ufite imbaraga zo gukora zigamira izabukuru muri ejo heza.

Icyapa cy'Ejo Heza. Iki cyapa kiriho abantu babiri b'abasaza. Bose ni abirabura. Barishimye bari guseka. Ndetse bafatanye mu kiganza.

Umugore wicaye aritonze. Yambaye impeta ku kaboko ke k'ibumoso. Ndetse afite ibisuko bigufiya, yambaye ikanzu idoze mu gitenge. Imbere ye hari ameza afasheho.

Abantu babiri bicaye, bicaye ku ntebe z'umukara ndetse ni umugore n'umugabo, umugabo yambaye ishati y'umweru na karuvate, umugore yambaye ikanzu y'umukara iciyemo imirongo imanuka y'umweru, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'amacupa y'amazi.

Abantu bane bicaye ku ntebe babiri abandi babiri, umugabo n'umugore umwe yicaye ku ruhande, undi mugore yicaye ku rundi ruhande abagabo barimo hagati ndetse bambaye amakoti.

Icyapa cyanditseho ejo heza kiriho umwana ufashe agapupe mu ntoki ze ari guseka iki cyapa cyanditseho amagambo agira ati zigamira amasaziro yawe ukiri muto.

Mituweli ifite ibara ry'ubururu mituweli n'ubwishingizi mu kwivuza ukoreshwa mu gihugu cy'Urwanda iyo ufite ubu bwishingizi nturembera mu rugo. Ujya kwa muganga bakakuvura kandi mu buryo bwihuse udaciwe amafaranga menshi.

Abantu bambaye imipira n'amashati by'ububururu; imbere yabo hari mudasobwa ndetse ziteretse ku meza afite ibara ry'umweru; imbere yabo hari umugore uhicaye ufite ibisuko.

Abantu babiri, umugore n'umugabo. Umugore ateze igitambaro mu mutwe cy'umutuku, ndetse yiteye ikindi gitambaro. Umugabo yambaye ikoti, afite ikayi n'ikaramu ari kwandika. Imbere yabo hari mituweli.

Mituweli, mituweli ni ubwishingizi bukoreshwa mu Rwanda, ubwisungane mu kwivuza, izi mituweli zifite ibara ry'umuhondo ndetse iteyeho kashe, yemeza y'uko yemewe gukoreshwa.

Umugabo uri guca mu makuru, ni umwirabura yambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati, inyuma ye hari icyapa cyanditseho ejo heza. Ejo heza ni ubwishingizi ushobora kwizigamira mu buto bwawe bukazakugoboka ugeze mu za bukuru.

Mituel, mituel iriho ifoto y'umwana, ndetse ifite ibara ry'umuhondo, iyi mituel iriho kashe y'ikigo nderabuzima, yerekana yuko iyi mituel yemewe na leta.

Umugore ufite imisatsi yayiziritse afite imisatsi myiza y'umukara ndetse yambaye umupira ufite ibara ry'ubururu bwijimye ndetse iruhande rwe hari akamashini gatanga fagitire.

Umugore wambaye akanuozasuku mu mutwe ndetse n'umupira ufite ibara ry'icyatsi n'ipantaro y'ubururu ari gutunganya imboga kugira abantu baze kugura basange zisa neza izi mboga harimo karoti, intoryi, itomati ndetse hejuru hari imbuto zirimo pome.

Iduka ricuruza imbuto ndetse n'imboga, iri duka ririmo utubati tubikwamo izi mbuto ndetse n'indobo, utu tubati dukozwe mu mbaho, izi mbuto harimo pome, itomati, amaronji ndetse n'ibindi.

Iduka ririmo umusore wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara, akaboko ke k'ibumoso kariho isaha, ari gusunika akagare kifashishwa iyo umuntu ari guhaha atwaramo ibintu.